Kubaka amazu ukayasiga amarangi, ukayagirira amasuku, bituma buri wese yumva yifuje kuba aho hantu no kuhatura, no kuhareba, no kuba yahibera ubuziraherezo. Kubera ko haba ari ahantu hashimishije kandi heza.

Ni byiza gukurikirana n'ibijyanye no gukanika kuko iyo modoka ipfuye usanga umuntu wize gukanika, ayigiye munsi akayikora mu gihe yari yahagaze ugasanga iri kuva aho iri , ikagenda nta kibazo kuberako amaze kuyikanika.

Abayobozi bashinzwe umutekano barimo baratanga ubwisungane mu kwivuza, babuhereza abaturage kubera ko ubuyobozi bwegerejwe abaturage. Abayobozi bashinzwe umutekano, ni abayobozi beza cyane badufitiye akamaro kanini mu gihugu cyacu, kandi badufasha kwiteza imbere no kubungabunga ubuzima bwacu bwa buri munsi.

Abantu bazimya inkongi y'umuriro baba bafite umumaro munini cyane, kuko usanga inzu y'umuntu yahiye yakongotse ariko baza kuyizimya ugasanga barekuye mu tuntu tumwe dutandukanye, kuzimya rero umuriro ni ibintu bishimishije cyane.

Umudamu ushinzwe umutekano arimo aratanga ibitekerezo arabiha abaturage by'uko tugomba gucunga umutekano wacu neza. Umutekano ni ingirakamaro kuri buri muturage kuko udafite umutekano nta buzima.

Abaturage bashinzwe umutekano baba barahawe amahugurwa atandukanye mu buryo bwa siporo ndetse n'imibanire. Ni byiza rero kubahiriza aya mahugurwa kuberako bituma wihugura, uburyo ushobora kwitwara imbere y'abantu cyane abo uba uyoboye.

Abasirikare babiri bari kurebana，bambaye udupfukamunwa dupfutse umunwa n'amaso， bambaye ingofero， bafite ibikoresho by’akazi kabo，imbunda n'ibikapu，umwe muri bo afite amaranka，cangwa se amapeti ane， bahetse ibikapu.

Icyapa kigaragaza umutuku, icyatsi, amabara atandukanye kidufitiye umumaro munini, gituma tumenya niba urambuka cyangwa niba urahagarara imodoka zikabanza zigatambuka. Icyapa rero ni ingirakamaro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abasirikare bambaye impuzankano nziza cane bambaye ingofero, amasentire munda harimo abagore, abakobwa, abagabo, abasore barishimye cane bamwe basutamye imbere abandi bahagaze inyuma.

Abayobozi b'umutekano barimo: abapolisi, abasirikare n'abandi baturage barimo baritegereza uburyo umutekinisiye arimo gukora imodoka ari munsi yayo.

Ingabo nyinshi cane ziri ku muronko，zambaye impuzankano y'akazi， zifite amanyenyeri ku kaboko，zabukereye， zishimiye kujya mu kazi kazo zimeze neza.

Abayobozi b'umutekano bari kuri paledi. Bari ku murongo. Ni ingirakamaro mu Gihugu cyacu kubera ko buri wese agomba kwishakira umutekano we, ni bwo buryo bwiza bwo kubaho neza mu mutuzo kandi urambye.

Imodoka itwara abagenzi ntabwo ari byiza ko igomba gushyira imizigo hejuru n'inyuma hose kuko n'ibintu bibi bishobora gutuma habaho n'impanuka. Niba ushaka kwimuka uvuye mu mudugudu ujya mu wundi ugomba gufata ibicuruzwa byawe ,ugafata imyaka yawe n'ibyo uryamaho, ukabishakira imodoka ibitwara hanyuma n'abantu bakagenda ukwabo.

Abapolisi bari mu myitozo ngororamubiri. Barimo bariga imikino yabo ku kazi kabo. Ni ibintu bishimishije cyane kubona umupolisi w'umugore watebeje, wasizemo inkweto ifunze, witeje imbere. Umupolisi kandi ukabona ibyo umugabo ari gukora na we ni byo ari gukora. Ni ibintu bidushimisha cyane kubireba.

Kuyobora abaturage ni ibintu byiza cyane bifite umumaro, ni byiza natwe abaturage ko tugomba gukurikira abantu batuyoboye, tugatega amatwi ibyo batubwira kugira ngo na bo bajye kutubaza ibibazo ku byo baduhuguyeho, hanyuma tubashe gusubiza ubuzima bugende neza.

Gukurikira umuntu uyoboye inama ni ingirakamaro, kuko ubu utekereza ibintu bitandukanye, ushobora kubaza mugenzi wawe. Ni byiza ko dukurikira umuntu uturangaje imbere ,uri kudusobanurira ibibazo runaka, cyangwa se uri kutubwira amabwiriza runaka.

Abaturage bishyize hamwe, bagatanga ibitekerezo byabo, bijyanye n'imibereho yabo, bituma babaho neza, kandi ibikorwaremezo bikabageraho, iyo bahuriye hamwe baraganira, bakamenya ibibazo bafite, bakamenya n'ibyo bakeneye bagomba gukemura.

Umudamu mwiza cane ufite imisatsi myiza, afashe mikoro arahagaze arimo arasobanurira abantu ibintu bitandukanye. Bamwe bamuteze amatwi abandi na bo bari mu byabo.

Ni byiza mu nama rusange gukurikira ibyo umuyobozi ari kubabwira, kuko bigira akamaro ugatega amatwi ukumva ibyo akubwira, hanyuma ukabona gutanga ibitekerezo byawe kuko iyo umuntu aguhagaze imbere ari gutanga ibiganiro, uba ugomba kumwumva no kutega amatwi, ntabwo ari byiza kureba muri telefone kandi ukurikiye umuntu imbere yawe.

Umukubuzo udufasha gukora isuku ahantu hatandukanye, aho dukubura ugasanga mu twatsi, mu mabuye, uyu mukubuzo uhakura neza cyane, ku buryo iyo uri gukoresha n'iyo imvura yaba imaze kugwa, ukubura kandi ukabona ahantu wakubuye hafite isuku.

Uducuma tubiri agacuma kamwe ni kanini akandi kararinganiye, buri gacuma karimo imiseke ebyiri idufasha gusoma no gusogongera mu bibindi cyangwa mu ndobo zitandukanye, tubitse hagati y'ibirago kimwe k'uruhande ikindi gishyashe hasi.

Imboga ni ingirakamaro, ni ibiribwa biririmo ubwoko burinda indwara, iyo uziriye bituma umuvuduko wawe ugabanyuka ku kigero gitoya, ariko ugasanga ubuzima bwawe bubaye bwiza cyane, iyo ugiye urya imboga kenshi.

Imitako myiza cyane dutaka mu mazu yacu. Imitako ni ingirakamaro kanini cyane， kuko iyo umanitse mu nzu， umuntu wese uje winjira arawureba akabona umutako umeze neza， kandi utatse neza，unakoze neza， ndetse ufite ubuhanga n'ubushishozi mu kuwukora.

Ababyinnyi bameze neza bafite ubuhanga, mu gusimbuka bafashe amacumu yabo neza, bafite indangagaciro zo guseka neza, nk'ababyinnyi ba kera bambaye impuzankano zisa kandi zimeze neza.

Gukama ibitoki dukoresheje ibirenge bitera umwanda, kuko nk'iyo umuntu akamye arwaye amavunja, arakama ya mavunja akagenda aravamo, cyangwa se atakarabye cyane n'isabune bihagije, ugasanga imyanda yagiye mu bitoki, bakamura ugasanga umuntu ariye mikorobe zagiye zituruka mu birenge n'ahandi.

Ingobyi ihetse umurwayi, kera twahekaga mu ngobyi ku buryo umurwayi yarwaraga tugashaka ingobyi, tugashyiramo ibiti, tugashyiramo n'ibirere, tugashyiramo n'ikirago, hanyuma tugashyiramo umurwayi tugatwikiraho ikiringiti. Ni umuhango wa kera cyane w'umuco nyarwanda, kugeza n'ubu ngubu guheka biriho kandi byahozeho.

Agaseke gatatse, gafite amabara meza, ni agaseke kaba kagaragara neza cyane, kuburyo ku isoko kaba gafite abakiriya benshi bagashakisha, iyo ukaboshye ukaba ugafite, uhita ubona umuntu ukakugurira.

Imboga bita isogi ni ingirakamaro cyane mu biryo, iyo uri kubirya Uba wumva harimo akantu gasa n'ubusharire. Ni imboga rero zirinda umuvuduko, iyo umuntu afite umuvuduko akazirya bituma akira vuba, kandi akumva ameze neza.

Abashumba ni abantu bazi kwita ku nka zabo， bakazikunda， bakazikukira， bakazihanagura， bakazishora， bakazishakira ubwatsi ku buryo，iyo inka zitariye， umushumba aba yumva afite ikibazo gikomeye，nawe ntashobora kurya.

Igitebo gikorewe ingata yo guhagararaho canga se guterekaho. Iki gitebo ni ingirakamaro iyo turi guhinga inyanya tugisaruriramo inyanya, tukagikoresha mu mirimo itandukanye, gutwara amafumbire, gutwara ibiribwa ku masoko n'ibindi.

Agaseke ni ingirakamaro kanini cyane, iyo umuntu akuganye akaza yikoreye agaseke agitunguka mu marembo wumva wishimye cyane, ugaakubita agatwenge ugaseka ukamuyambira ukamutura agaseke ukakabika, ni byiza rero gusura abantu tubajyaniye uduseke.

Agaseke kadufasha gusura abantu mu bihe bitandukanye, gafite umumaro munini kuko ushobora gushyiramo amasaka, ibishyimbo, amashaza, umuceri, n'ibindi wakikorera ku mutwe kagaragara neza cyane umuntu ugiye gusura yabona utungutse wikoreye agaseke, akishima cyane kandi akanezerwa.

Umusaza uri kunywa itabi, kera kunywa itabi byari umuco nyarwanda aho umusaza wese yanywaga itabi, ariko ubu ngubu haje indwara zitandukanye, z'amoko atandukanye ,ibihaha n'ibindi, aho umuntu anywa itabi ugasanga igihaha cyarahindutse cyabaye umukara, tugomba kwirinda kunywa itabi, itabi ni ribi cyane.

Igisabo ni ingirakamaro, iyo ubonye urugo rurimo igisabo uhita umenyako urwo rugo rurimo umugeni cyangwa se rwinjiye umugeni ,bivuzeko igisabo ni ikimenyetso kigaragazako aho hantu hagomba kuzakamwa inka.

Abakaraza b'abadamu ni abantu baba bishimiye kuvuza ingoma, aho usanga umudamu yishimye ari guseka anezerewe, ariko uvuza ingoma mu gihe kera umukobwa wavuzaga ingoma bavuga ko ari ishyano ni byiza rero ko iterambere rikujyana mu gihe turimo.

Igisabo ni ingirakamaro tugicundiramo amata tugakoramo amavuta, amavuta aba ari ingirakamaro ku burwayi butandukanye tuyasiga ku mubiri, cyangwa wamara koga unaniwe cyane ugafata ya mavuta y'inka bacunze ukayisiga, bituma wumva uruhu rwawe runanutse kandi ukumva umeze neza cyane.

Ababyinnyi ba kera ni ababyinnyi babaga bafite amacumu, bafite amasaro, bambaye ubushabari hasi. Ababyinnyi wabonaga ko bitonze kandi basa neza. Bafite ibikoresho byabo amacumu n'imiheto n'ibindi.

Umudamu mwiza cane, ufite umusatsi mwiza cane wo hambere wasokoje amasunzu, kera amasunzu yari ingirakamaro, ababyeyi basokozaga amasunzu bajyane uruhande rumwe n'urundi, wabonaga ari byiza cane.

Umusaza w'umunyabukorikori uri gukora umuhoro mu giti. Ubukorikori kera kari akazi kameze neza cyane kandi gatanga amafaranga, aho umuntu wamenyereye ubukorikori yabaga yicaranye amafaranga kubera ko yahoranaga ibiraka bihoraho.

Ababyinnyi bari kubyinira ahantu heza, hatatse neza cane, bambaye imikenyero y'umutuku n'amasengeri y'umweru, ingori mu mutwe, barambuye amaboko neza cane icyarimwe.

Ababyinnyi iyo bari kubyina bishimye, abari kubacurira na bo bishimye bari mu birere, bazamura icumu, abari kubacurira na bo bakazamura icumu. Kubyina ni ibintu bishimisha umuntu wese uri kubireba no kubikora ku buryo uba wumva ari umunyenga.

ingoma igirakamaro kanini cyane. Iyo abantu bashaka kwishima bavuza ingoma, bakabyina bakishima bakanezerwa, bigatuma abantu bose basusuruka, kandi bakagira umuco wo kuvuza ingoma mu gihe runaka. Ntabwo ingoma tuzivuzamo ibihe byose turimo.

Akebo kadufitiye umumaro munini, iyo ugiye gusura umuntu yagutumiye, afite ubukwe ashaka ko mujyanamo, ufite agaseke keza ushyiramo amasaka, ibigori, ibishyimbo n'ibindi, ugapfundikira, hanyuma ukajya kumusura, akizihirwa mu bukwe bwe.

Agaseke keza cyane kameze neza, aka gaseke kera karakoraga cyane, twakifashishaga mu gusura abantu batandukanye, abageni bagiye gushaka, buri mugeni bamuhaga aka gaseke.

Urusyo, ingasire, udukoko tubiri, kamwe kariho impeke akandi karihao ifu n'agaseke iruhande rw'urusyo. Urusyo ni igikoresho ciza twifashishijesha turi gushaka ifu yo guteka igikoma, cangwa se kubetera urwagwa.

Ababyinnyi bari kubyina bafashe udushanana bitwaye neza cyane, bambaye utuntu mu mutwe. Kubyina ni ingirakamaro bituma ibyumviro by'umubiri byishima, ukirengagiza umubabaro kandi ukibagirwa n'umubabaro wari ufite.

Kubyina ni ingirakamaro bituma umuntu ahora yishimye mu buzima bwe, bagahorana umunezero mwinshi cyane, bigatuma adasaza vuba bigatuma atagira umubabaro ngo yicare yigunge ahari hose, agahora amwenyura kandi yishimye.

Ababyinnyi ni abantu bahora bishimye， banezerewe badafite umubabaro. Kandi ni abantu baba bafite amaraso atembera neza， kandi akora neza， kuko mu buzima bwabo，ababyinnyi ntabwo bazi ikintu cyo kwigunga，mu buzima bwabo bahora baseka， banezerewe， kandi bishimye.

Icumu n'ingabo， kera twabyifashishaga kera igihe babaga bagiye gusohora umukobwa washatse，aribyo twitaga ngo ni ukumushishura. Bajyanaga icumu n'ingabo n'isuka, bakagenda biyereka baririmba cyane， ndetse bitakuma， bikoze hirya bikoza hino.

Igisabo ni ikimenyetso kigaragaza ko urwo rugo rurimo amahoro kandi rumeze neza. Kera umugore bamuhaga igisabo agacunda amata, agakuramo amavuta y'inka. Icyo gihe amavuta y'inka yagiraga umumaro, kuko yaravuraga. Hanyuma amata yandi akayashyira ku ruhande ukwayo.

Ububoshyi ni umwuga mwiza cyane. Iyo uwize ukawumenya bituma witeza imbere bikaguha amafaranga, kuko uko uboshye ikiboho cyawe iyo cyuzuye ukijyana ku isoko bakaguha amafaranga nawe ukiteza imbere.

Inzu z'ibyatsi, kera abanyarwanda bari bafite inzu z'ibyatsi, nyuma y'ubukoroni nibwo twagiye twubaka inzu tugasakaza amabati cyangwa amategura, ariko inzu z'ibyatsi ni inzu za kera abantu bose bari bafite.

Ababoshyi bari kuboha agaseke, bicaye ku birago bimeze neza, kubona ni umwuga ushimishije utuma umwana amenya byinshi ku bijyanye n'ubugeni, ku buryo adashobora kubura amafaranga kubera umwuga yize.

Urutoki ni ingirakamaro, iyo umuntu afite urutoki, igitoki kirera akagica, akagiteka, ubundi agaca igitoki agatara, hakavamo urwagwa, urwagwa ni ingirakamaro kubera ko rudufasha gusura inshuti n'abavandimwe kandi abagabo bakaruvugiraho ijambo.

Gukama ibitoki n'ingirakamaro, biduha umutobe ndetse n'urwagwa, abanywa umutobe banywa umutobe ndetse abanywa urwagwa bakanywa urwagwa, ugasanga n'ibintu byiza kandi bishimishije. Gukama rero bisaba imbaraga nyinshi mu maboko kuko bisaba gukamura no gukanda dukoresheje amaboko n'urubingo cyangwa se amakoma.

Umudamu wogoshe amasunzu, amasunzu ni inyogosho ya kera ndetse n'insokazo ya kera ababyeyi basokozaga, mu muco nyarwanda wa kera abanyarwanda barabikundaga cyane kubisokoza, kubera ko wabaga umeze neza cyane. Batwikaga urujyo, ubundi bagashyira mu mutwe bakarambura umusatsi wabo.

Isekuru ni ingirakamaro idufasha gusekura ibintu bitandukanye ;iyo dufite ikivunde dukoresha isekuru na kayunguruzo tukarya umutsima bitagoranye kandi isekuru idufasha mu buryo bumwe n'ubundi dutunganya ibintu bitandukanye gusekura isombe n'ibindi.

Kera abasaza iyo babaga bicaranye n'abana babo, bafataga inanga bakabacurangira, abana bakishima, bakanezerwa. Umusaza rero uri kuririmbira abana aba ari umunezero ukomeye cyane muri uwo muryango, ndetse n'iyo ari mu nzira ari kugenda, ubona abana bose baba barangariye uwo musaza uba ari gucurangira abana.

Abakobwa ba kera bari bazi kuboha ibirago, bakajya baraguzanya, ugasanga umukobwa aboshye ikirago, mu cyumweru kimwe aracyujuje, ariko abakobwa b'uyu munsi ntabwo bashoboye kuboha, ahubwo ni ukujya kubigura ku masoko, ibyo abandi baboshye bagiye gushaka.

Umuvure ni igikoresho cyiza cyane abanyarwanda ba kera bifashishaga bari gukama ibitoki. Imivure igira akamaro kanini kubera ko dukamiramo ibitoki tugakamura inzagwa, zidufasha kwakira abantu ndetse no gusabana n'abantu.

Intore za kera zajaga kumasha zifite amacumu, imiheto, zasokoje amasunju, ziteye imyitero nk'iy'abadamu, hejuru zambaye ubusa zakenyereye hasi, zifite ingabo, uducuma n'utundi dukoresho dutandukanye.

Agaseke ni ingirakamaro. Agaseke iyo ukikoreye ukajya gusura mugenzi wawe, ugenda wishimye kandi unezerewe. Na we yakubona akizihirwa kuko aba abona ko umujyaniye akantu gapfundikiye, kandi agapfundikiye gatera amatsiko.

Ababyinnyi bambaye neza, bikoreye uduseke, bambaye amayugi, barangajwe imbere n'umusore ubayoboye, barambuye amaboko, bari kubyina bishimye, bari ahantu heza cane.

Imitako myiza cyane, umuntu uzi kuboha imitako, aba afite amafaranga menshi, ku buryo aba yarize ibintu bifite akamaro, aho atashobora kubura amafaranga. Iyi mitako idufasha gutaka amazu atandukanye, ndetse n'ahantu abashyitsi bitabira cyane.

Isekururo, intebe ya kinyarwanda n'umuvure ni ibikoresho bya kera twifashishaga turi gusekura isombe, ubugari, imyumbati. Mu gihe umuvure wo tuwifashisha turi gukama ibitoki, kera gukamo ibitoki wari umuco nyarwanda kugira ngo umuntu abone urwagwa, yabanzaga gukama ibitoki kandi agakamira mu muvure.

Umukobwa uri gusekura imyumbati, imyumbati itanga ubugari, ubugari bumeze neza kandi buryoshye busa n'umweruru. Ubugari ni ingirakamaro ku burya iyo ufite imboga zimeze neza ukarya ubugari biba ari ibiryo bimeze neza cyane.

Abakaraza b'ingoma ni abantu baba bishimye cyane banezerewe kera nta mukobwa wavuzaga ingoma wasangaga ingoma zivuza abagabo gusa ariko uyu munsi umukobwa akubitamo umwitero n'umukenyero n'ishati akavuza ingoma yishimye ari kumwe n'abagabo n'abagore bose bagakorera hamwe.

Uducuma turimo nk'imiheha ni uducuma kera bateguraga mu bukwe, bagafata akarago cyangwa se agakoko bagaterekaho uducuma n'inzuho. Uducuma twifashishwaga mu kunywa bakaduhereza abasaza, bakagenda abasomaho basomaho bahereza bagenzi babo.

Abagabo batatu bari gusogongera ku kibindi kinini cane cuzuye urwagwa ,kiziritseho amakoma matoto, abadamu batatu bafite udukoko n'inkongoro bizihiye kureba ibirori.

Abakobwa bari kwiga, kurasa bakoresheje umuheto, ni abakobwa beza cyane, kera ibi babikoraga, ariko icyo twita kumasha, aho abantu barasaga inka, n'izindi nyamaswa zitandukanye, hifashishije umuheto.

Kera umugabo n'umugore basokozaga amasunzu, amasunzu yari umuco wa kera w'abagabo n'abagore, basokozaga bagiye mu birori kubyinira umwami no gutamba, byari ibintu by'ingenzi cane.

Kubyina bifite akamaro kanini. Bituma umuntu agira imitsi irambutse, bigatuma agira ubuzima bwiza. Kandi bigatuma wumva ufite amaraso atembera ameze neza. Ugahora wishimye n'iyo ufite ibibazo urabyibagirwa ,bigatuma ugira ubuzima bwiza.

Intebe ya kinyagwandaza nziza cane nshasha ifite akamaro gakomeye cane. Iyo uyicayeho ukiri umwana cane w'umukobwa, amabuno yawe akura neza cane agiye inyuma.

Inka z'inyambo Inka z'inyambo zifashishwa mu gukora amakwe atandukanye, harimo gusaba no gukwa, aho inka itambuka neza zigashejagira, bakemeza ko iyo nka ari yo bakoye umugeni. Ni umuhango mwiza cyane kuko izo nka zifite amahembe ateretse neza.

Kera twavomeraga mu tubindi ,ugasanga abagore, abakobwa, abagabo bari kurenga imisozi bikoreye utubindi ku mutwe bagiye kuvoma mu gishanga ,bakazamuka n'ubundi umusozi bikoreye utubindi bavuye kuvomamo amazi, ariko uyu munsi tuvomera mu bidomora n'ibindi, utubindi twaracitse.

Umusaza wa kera ufite amasunzu meza cane wambaye ubusa hejuru wasokoje. Amasunzu wari umuco wa kera wa kinyarwanda, abagabo basokozaga amasunzu yabo, n'abagore bagasokoza amasunzu yabo.

Ababyinnyi bari kubyina barambuye amaboko bishimye bateze amasunzu. Amasunzu ni ikimenyetso cy'abanyarwandakazi n'abanyarwanda ba kera, basokozaga mu mutwe bashyizemo ibice n'ibindi bice, bambaraga neza cyane bambaye imishanana n'imyitero.

Umutiba w'inzuki. Umutiba w'inzuki cyangwa umuzinga， ni ingirakamaro，kuko utuma tubona ubuki，ubuki ni umuti uvura indwara zitandukanye， harimo inkorora n'ibindi. Umutiba bawagika hejuru mu biti， hanyuma inzuki zikinjiramo， zikajya zijya guhaha，zikagaruka muri uwo mutiba.

Mu rugo haba harimo ubworozi butandukanye bw'amatungo magufi. Inkoko, intama n'ibindi cyane ko inkoko baziha ibigori iyo byeze kugira ngo zikure neza, kandi zitere n'amagi menshi cyane.

Abanyarwanda ba kera bambaraga impu hasi ,n'udushabure hasi bagakinga imbere ,hejuru bakambara ubusa bagasokoza amasunzu ,ukabona birashimishije ,abadamu barishimye barananezerewe ,kumwe n'abagabo babo ,biteye imishanana hasi no hejuru.

Amacumu kera byari ibikoresho bya kera, abantu bari kumasha bifashishaga bari kurwana habayeho umutekano muke, amacumu rero kera wari umuco mwiza wo kuyakoresha hari abayakoreshaga bari kumasha abandi bari kubyina.

Igisabo ni ingirakamaro kidufite akamaro kanini cyane, kandi ugomba kugifata neza, kuko ugifashe nabi gihita gipfumuka. Ni byiza rero kugira igisabo, kuko tugicundamo amata akavamo amavuta, amavuta tukayisiga, tukayateka, n'ibindi bitandukanye.

Gusoma ku ntango. Kera, akabindi baragakoreshaga bakadukoreramo inzoga, imisururu. Ugasanga kari kubira, birameneka, byabaga ari ibintu bishimishije cyane. Uyu munsi wa none naho rero turaza ku ntango tugasoma, tugasogongera, tukishima, tukanezerwa.

Abanyarwanda ba kera bari bazi gusokoza neza cyane, bafataga imisatsi yabo bagasokoza icyo twita amasunzu. Ababyeyi n'abagabo bafite uburyo basokozagamo wabireba ukabona ni byiza cyane, umuntu yasokoje amasunzu ari kugendera ku nkoni bita icumu ,ukabona ni ibintu byiza cyane.

Uducuma turambitse hasi ku makaro dufashe k'uduti dutatu. Uducuma natwo ni tune twifashishwa mu gucuranga inanga mu ndirimbo zitandukanye, harimo eh mama mama we!

Telefone ni ingirakamaro, ni igikoresho twifasha mu ikoranabuhanga, aho ushobora koherereza umuntu mesaje, ukamwandikira ukajya kuri imeli ugatanga amakuru kandi ukakira amakuru mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Telefone rero ni ingirakamaro.

Iyo inyubako imeze neza kandi ifite uruzitiro, bituma abantu bose batavogera urwo rugo, ugasanga inyubako yiyubashye, utambutse akanyura ku ruhande, adashobora kureba ibirimo imbere, cyangwa ngo asimbuke arebe ibiri hirya. Ni byiza rero kuzitira urugo rwawe, kugira ngo rube neza.

Abagabo benshi cane bambaye amagoti n'amapantaro barangajwe imbere n badamu babiri, bameze neza. Bari ku rusengero rumeze neza rusize amarangi meza cane rw'abarokore

Amazu yubatse neza cane ageretse inshuro imwe, asakaye neza cane kandi manini. Imbere yayo afite parikingi nini cane.

Urusengero runini rwiza cane rwubatse rugeretse amabati inshuro ebyiri, rufite ikibuga kinini cane, bikikijwe n'ingo zitandukanye za kadasitere z'amabatiye y'umutuku n'umweru n'umuhondo, imbere hari urubaraza rw'uruganiriro.

Urusengero runini cyane rufasha abakristu gusengeramo ruriho umusaraba. Abakirisitu barazinduka kare kare bagaterana, bakaza gusenga kugira ngo bitagatifuze, urusengero ruba rufite akamaro kanini kubera ko rutuma abantu bibuka Imana, bakanibuka kubana neza na bagenzi babo.

Ikibuga kinini gifite ibiti bitandukanye kiriho n'indabo nyinshi cyane zitandukanye umuntu ashobora kwicaramo agafatiramo akayaga keza kameze neza.

Inzu y'ubucuruzi igeretse inshuro eshatu，isize z'amarangi imeze neza cyane，ni inzu itanze umusaruro， kuko umuntu wayubatse afite amafaranga ahagije， aho buri muryango uzinjiramo， azajya amuha amafaranga yo gukodesha.

Urujya n'uruza rw'abaturage bagiye gusenga. Gusenga ni ibintu bidufiteye akamaro kanini, kuko bituma umuntu agira umutima mwiza, agasabana na mugenzi we, kandi aba abonye n'umwanya uhagije wo gusabana n'Imana. Ni byiza rero kwegera Imana tukicuza, tukihana ibyaha byacu.

Idarapo ry'igihugu， ni idarapo tugomba kubaha cyane，warigeraho nturikinishe， cyangwa se baba bari kuririmba indirimbo y'igihugu， ukamenya ko ugomba kureba ririya darapo， ukarihanga amaso， ukaririmba indirimbo paka irangiye.

Isoko ni ingirakamaro iyo umuntu ufite ahantu ari bujye guhahira ni ibintu by'agaciro kanini cyane kuko uba utegereje uziko umunsi isoko rizaremeraho uzarirema ugahaha ibyo ukeneye kandi wifuza bityo nuzakugurisha akaba ari gupanga ati mfite ikintu cyanjye runaka nzazana ku isoko umunsi uyu n'uyu.

Uruzitiro ruzitiye urugo cyangwa ishuri, rufite akamaro kanini cyane, kubera ko rutuma abajura batinjira uko biboneye muri urwo rupangu, bikanarinda kandi abandi bantu baturutse hirya no hino, kuvogera ishuri cyangwa se urugo runaka.

Inzu ifite aho guparika imodoka, ni ibintu byiza cyane bifite akamaro kanini iyo imodoka wayiparitse bigenda neza, kuko ubona aho uyishyira kandi bitakugoye, ni byiza kubaka amazu yacu tukayasigira aho guparika imodoka.

Umuhanda munini cyane, uzitijwe uruhande rumwe rwerekeje ku gitari. Ibitari ni ingirakamaro kanini cyane, ahantu biherereye haba hari amahumbezi, kandi bidufitiye umumaro wo kubyubakisha no kubibazamo intebe, ibitanda n'ibindi.

Amatara yo ku muhanda ni ingirakamaro, abonera abantu bari kugenda bwije, bigatuma babona aho bari gukandagira, kandi bakagenda bafite umutekano usesuye, kubera ko baba bafite urumuri ruturutse imbere n'inyuma yabo.

Ubucuruzi bw'ububaji ni ubucuruzi bwateye imbere mu gihugu ,kandi bufite amafaranga ,aho umuntu ashobora kubaza igitanda kimeze neza cyane ,kikaryamaho abantu batatu ,bane, batanu ,ugasanga ni ibintu byiza by'agaciro kuko kera twararaga hasi no ku bishogoshogo.

Mu muteguro runaka，iyo abantu bicaye bari kureba imbere，ntawe ubangamiye undi，bose bari kureba kandi bicaye ku ruziga，ku buryo abantu bashobora guhurira ku ruziga， bashobora gutaha buri wese yamenyanye na mugenzi we. Bifite akamaro kanini cyane， kubicaza muri ubwo buryo.

Kwitonda no gukurikira impanuro uri guhabwa ni ingirakamaro. Bituma wunguka ubumenyi bwinshi cyane, bigatuma witeza imbere muri byinshi wahawe, igihe wari uri muri izo mpanuro. Iyo uzishyize mu bikorwa bigenda neza.

Inama rusange y'abaturage batandukanye urubyiruko, abasore, inkumi, abagabo, abasaza, iyobowe n'umukobwa wambaye neza cane, ipantaro y'umukara n'agapira k'umutuku, wambaye n'amarinete, arahagaze arimo arabaganiza.

Abihamana babiri barangajwe imbere n'abagabo batanu bari kwerekeza ku cibuga c'indege. Hari amazu meza cane, ameze neza, afite amarangi meza cane.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi benshi cyane, ku buryo iyo iri mu muhanda bitugirira umumaro munini. Usanga abantu bahagaze ku muhanda bose ibakukumbiye icya rimwe bakava mu nzira, bakajya mu kazi kabo, no mu yindi mirimo rusange.

Abamotari badufitiye akamaro kanini cyane ,iyo uri gutega ugiye gukora urugendo ,icyerekezo cyawe nta modoka zirimo ,uhita ufatate umumotari akakugeza aho ugiye mu gihe gito kandi bitakugoye, na nonene iyo uri mu cyerekezo gifite imodoka kandi ukabona gutonda umurongo bikugoye ,uhita ufata umumotari ukanyaruka. Abamotari badufitiye akamaro kanini cyane, batuma tugera aho tugiye twihuse.

Imodoka z'ubukerarugendo ni ingirakamaro, zitwara abantu baturutse mu bihugu bitandukanye zibazana mu Rwanda. Bigatuma Igihugu cyacu cyinjiza amafaranga atuma iterambere rizamuka, ibintu bikagenda neza mu Gihugu.

Igikoresho kidufasha gutwara ibintu. Ni igikoresho kidufasha gutwara ibintu mu buryo bworoheje, iyo udafite ubushobozi bwo kugura imodoka, ufata akamoto gafite intebe inyuma yo gutwaramo ibintu, kakagutwaza kandi ibintu byawe bikahagera neza nta kibazo.

Imodoka ziba zitwara abagenzi mu rujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu ntara zitandukanye, imodoka nini cyane zitwara abaturage benshi ku buryo abatonze umurongo bose ako kanya binjiramo, bakuzura imodoka bakagenda mu mirimo yabo. Usanga ziri ku kubatwara vuba vuba kubera ko ziba zifite imyanya minini cyane.

Imodoka zitwara imizigo ni imodoka zifite umumaro munini cyane mu Rwanda, zidufasha kwambuka ndetse no kwinjira mu Rwanda zituzaniye ibiribwa bitandukanye, ndetse ugasanga igihugu gifite ibintu byose bitandukanye kandi cyakuye kure kubera izi modoka zagiye zibitwara.

Imodoka zitwara abagenzi zibajyana mu turere dutandukanye. Imodoka ni ingenzi zituma tugera ahantu mu mwanya mutoya, ugereranyije n'uko twari gukoresha amaguru tukajya aho hantu. Hari n'aho imodoka zigera moto n'amagare bitagera. Imodoka rero ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Moto iri mu bikoresho bitwara abagenzi byihuta cyane, iyo uri kwihuta ugahita ufata moto bituma ikugeza aho wari ugiye vuba kandi byihuse, bikorohereza urugendo rwawe na gahunda wari ufite zikagenda neza.

Uruja n'uruza rw'abantu muri gare n'imodoka nyinshi cane n'urubisikane rw'abantu bagenda babisikana n'abandi .Gare igira abantu benshi cane batandukanye baturutse mu ntara hirya no hino zitandukanye.

Imodoka nini cyane ni imodoka zifite umumaro mwinshi mu gihugu cyacu, aho imodoka imwe ishobora gutwara abaturage barenga mirongo irindwi, ibavana mu ntara ibajyana mu yindi, kubera ubunini bwayo, bigatuma guhora mu mayira no gusiba mu nzira udakoze urugendo bitabaho, ahubwo ukagenda wihuta ugera mu kazi kawe neza.

Imodoka ndende zitwara abagenzi, ni imodoka nziza cyane zitwara abagenzi benshi kandi mu gihe gito. Birashimishije kubona mu Rwanda dufite imodoka nini cyane, zishobora gutwara abagenzi bari hejuru ya mirongo irindwi kuzamura.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri gare, bari gutega imodoka bava mu ntara bajya mu yindi. Imodoka nini cyane zitwara abagenzi zerekeza mu ntara zitandukanye. Izi modoka zidufasha gutwara abantu benshi, kubera ko ari imodoka nini zijyamo umubare mwinshi w'abaturage.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri gare, bari gutega imodoka bajya mu ntara zitandukanye, imodoka nini zigira umumaro ukomeye cyane muri gare, kuko zipakira abantu benshi bari kugenda mu ngendo zabo, ugasanga bageze imuhira kare kubera ko babonye imodoka ku gihe kandi zihuta.

Abamotari batwara imizigo ku mamoto inyuma, bafite akamaro kanini cyane kuko iyo udafite ubushobozi bwo guterura, imodoka aho iri ngo igutwaze ibintu, uhita wegera uriya utwara moto umuzigo ujya inyuma, kuko aba ari umuzigo mutoya cyane, bigatuma ugera aho ugiye kandi nawe bikakorohera bitewe n'igiciro cy'amafaranga.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri gare, bari gutega imodoka berekeza mu ntara zitandukanye, imodoka n'ingirakamaro kanini cyane, aho iyo ziri mu muhanda usanga abantu benshi bateze imodoka bazitegereje, zihita zibatwara ugasanga bose bashize muri gare mu minota mikeya.

Amagare ni ingirakamaro mu buzima busanzwe. Iyo ujya ahantu hafi kandi hatari kure, kandi hatazamuka, uhitamo gufata igare. Kubera ko igare ni ryo rifite igiciro kiri hasi ugereranyije n'imibereho yawe, uba uri ku rugendo, iyo wabuza icyo gutega.

Kera abadamu bari bazwiho kwikorera ku mitwe yabo, gusa ariko uyu munsi iterambere ryagezweho, aho umugore asunika igare rifite umuzigo urengeje ibiro mirongo itanu, kandi akarisunika akanarigendaho akandagiye ku kirenge nta kibazo.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu muhanda, ni ibintu bifite akamaro kanini cyane, kuko usanga abantu bari ku muhanda baba ari benshi, ariko ugasanga aho inyuze iri kugenda bose ibakukumba ibashyira mu modoka, ugasanga bose bavuye ku muhanda ako kanya mu minota mikeya.

Esanse ni ingirakamaro cyane, Imodoka itarimo esanse ntabwo ishobora kugenda. Ni byiza rero ko tugomba kugira amasitasiyo atandukanye impande n'impande, kugira ngo tubashe gushyira mu modoka zacu, kandi kugira ngo imodoka zacu zigende neza.

Ibyuma dutwaramo amata bidufitiye akamaro kanini，kuko kera twashyiraga amata mu byansi， ariko uyu munsi wa none，ibyansi byaracitse，ahubwo badukoreye ibyuma dutwaramo amata， kugira ngo ataza kwangirika， kandi akakugeraho ameze neza cyane.

Imodoka ndende ni imodoka twifuza cyane mu gihugu cyacu, zidufasha gutwara abantu benshi cyane mu mu gihe gitoya, bityo rero imodoka ndende zifite umumaro munini ukomeye, kuko zitwara abantu mu gihe gito kandi benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda muri kaburimbo, imodoka nini cyane zihagaze zitegereje kwakira abagenzi kandi zijyamo abagenzi benshi cyane, kuko zifite imyanya myinshi cyane. Izi modoka ni ingirakamaro ndetse kubera ko iyo ziri kugenda zipakira abantu benshi cyane, ugasanga zibakuye ku muhanda vuba vuba.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri gare, gare irimo imodoka ndende cyane zitwara abagenzi ku buryo imodoka imwe itwara abagenzi bari hejuru ya mirongo itandatu. Ni ibintu by'agaciro kanini rero kubera ko gare yazanye imodoka nini zitwara abagenzi vuba vuba.

Urujya n'uruza rw'abaturage batonze umurongo, bari gutega imodoka bajya mu byerekezo bitandukanye no mu ntara zitandukanye. Ni byiza ko rero tugomba gutonda umurongo hamwe, buri wese atabangamiye mugenzi we, ngo njye ndagenda mbere, njye ndagenda nyuma, ugategereza mwese mukagendera icyarimwe.

Pisine nziza cane yubatswe mu gishushanyo c'umutima, irimo amazi yuzuye no hejuru. Ikikijweho amakaro y'umweru, impande yayo hari amakaro y'umutuku afite n'amabara atandukanye.

Umugi ni ingirakamaro，kuko abantu batuye mu mugi，bamaze kwiteza imbere，bafite ibikorwa remezo bimeze neza， imihanda， amashanyarazi，amazu meza n'ibindi. Gutura mu mugi bifite akamaro kanini cyane， kuko uba umaze gutera imbere，kandi umaze kugira ibyo ugeraho biguterera imbere.

Umukino w'amagare ni umukino ushimisha buri wese yaba umwana, yaba umukecuru, iyo abonye umunyonzi w'amagare aba yumva yavugira hejuru agacurira akishima, kabone n'ubwo uwo munyonzi yaba atazi ngo ni uwahe? ariko umukino w'amagare biba bishimishije.

Nyezamu witabiye gufate umupira igitego nticinjire bagiye cane amaguru gagiye ni umudamu umeze neza ufite gahunda yo gukina no gufata imipira yose iruhande yaba iturutsemo ahariho hose.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari kwamamaza, bambaye imyenda isa, n'ibintu by'agaciro kanini cyane, kubera ko iyo abantu bishyize hamwe ntakibananira, dukunda cyane mu Rwanda gukunda umuco wo gushyira hamwe, no gukorera hamwe, kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Abakinnyi b'umupira w'amaboko vore boro, umukino w'amaboko ni umukino ushimishije cyane. Iyo bamwe bazamutse bajya kuboroka umukino kugira ngo ataza gutsinda igitego biba ari ibintu bishimishije cyane.

Abakinnyi ba hendiboro ni abakinnyi baba bafite imbaraga nyinshi cyane ku buryo iyo mugonganye ugira ngo n'icyuma, aba afite ubushobozi bwo gutera umupira no kuwukwepa, kandi agasimbuka cyane ku rwego rwo hejuru.

Umukino w'agadenesi ni umukino mwiza cyane iyo uri kuwukina ugenda witakuma wegera iyo akadenesi kagiye, bigatuma ukora muvoma nyinshi kandi wumva uri fiyeri yo gufata agapira, kugira ngo kataza kugucika ugasubiza mu kibuga cyo ruguru.

Abakinnyi b'abasore bishimye cyane banezerewe, bambaye imyenda isa. Gukina bidufitiye akamaro kanini, kubera ko bituma imitsi irambuka amaguru n'umubiri muri rusange.

Umukino w'amagare ni umukino ushimishije cyane, Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga baba bishimiye kureba, aho abantu banyonga amagare barunze hamwe ari benshi, ariko bikaza kurangira habonetse uwa mbere ndetse n'uwayuma. Baba bakora rero mu makipe atandukanye, kandi meza.

Umukino w'amagare ni umukino ushimishije cyane, abantu bahagarara ku muhanda kugira ngo baze gufana abanyamagare aho bari bunyure, ugasanga ni ibintu bishimishije cyane mu muhanda, abagore abagabo abana bato bose baserukiye mu muhanda kugira ngo barebe amarushanwa y'amagare.

Umukino w'agatenesi ni umukino ushimishije cyane, abantu bose barawukunda, kubera ko iyo uri gukina tenisi, usimbuka amaguru agakora, amaboko agakora, ugasanga ni ibintu bishimishije cyane, buri mwana, umugabo, umukecuru yishimiye.

Umukino wa voreboro ni mukino mwiza cyane, uba ushimishije, aho abawureba iyo bari kuzamuka bagiye gutera umupira, ubona bose bizihiwe. Umukino wa voreboro rero utuma umuntu ananura imbavu, amaboko kandi agahora yishimye nta mubabaro.

Abakinnyi babukereye bameze neza bambaye imyenda myiza cyane , bari kumwe. Gukina ni ingirakamaro bituma usabana na bagenzi bawe, ukagira inshuti nyinshi , ugatembera ahantu hatandukanye ndetse ukishima muri wowe.

Gukinira ku mucanga ni ibintu bishimishije cyane, kubera ko umucanga utuma udashobora kunyerera cyangwa se ngo usitare mu ibuye. Iyo uhagaze mu mucanga, uba wumva uhagaze neza kandi ufite imbaraga zo guhagarara, ku buryo niyo usimbutse ukamanuka, ntabwo ushobora kubabara munsi y'ikirenge.

Umukinnyi w'umukobwa nimero rimwe uhagaze ku mucanga afite umupira bakinisha handball yambaye imyenda myiza cane migufi ya siporo nibirenge ahagaze ku mucanga mukibuga cy'umukino w'amaboko bita volley ball.

Amarushanwa y'amagare ni umukino ushimishije cyane, impande zose, mu bihugu byose, aho amagare aciye, abantu baba bahagaze ku kumuhanda, bari kureba amagare ari kurushanwa, ari kugenda ate? Uwa mbere ni nde? Ugasanga ni ibintu bishimishije cyane.

Abakobwa bishimiye gukina umukino wa volebolo. Volebolo ni umukino mwiza cane abakinnyi b'abakobwa bakunda kuko ni umukino utaruhanyije usaba kurambura amaboko no kurambura amaguru kandi no gutekereza ukagira ubwenge mu mutwe butuma umenya ngo umupira waje ndawutangira aha, ndawuterera aha, ndawugarura cyangwa ndawusubizayo.

Umukino w'amaboko ni umukino ushimishije cyane, aho iyo umuntu ari kuwukina aba yumva ari mu marere yishimye, kandi anezerewe yumva ari mu nshingano ze nk'umukinnyi. Ni byiza rero gukina tubyerekejeho umutima kuko bitera umunezero.

Abakinnyi bafite ubumuga bw'amaguru bari gukina umukino wa futuboro bakoresheje akaguru kamwe. Gukina ni ingirakamaro kabone n'iyo waba ufite urugingo rudakora neza, ariko urundi wasigaje rukora neza, ugomba kurukoresha kugira ngo usabane n'abandi kandi ukomeza ugira ubuzima bwiza.

Abakinnyi bari mu myitozo ngororamubiri, urubyiruko rukiri rutoya rufite imyaka ikiri hasi, bambaye imyenda ya siporo harimo inkweto zifunze amasogisi n'imyenda yoroshye, udusengeri n'udukabutura dutoya.

Umukino w'amaboko ni umukino ushimisha ku mpande zombi, aho umugabo iyo ari kuwukina, aba yumva anezerewe, kandi yishimye, bigatuma aba ari guharanira gutsinda igitego, nta bindi bintu aba ari gutekereza , mu mutwe we, uretse umukino arangaje imbere.

Abakinnyi ba futubolo ni abakinnyi baba bafite amaguru akomeye ku buryo iyo afashe umupira yirukanka cyane, kandi na mugenzi we akabasha kugerageza ku buryo yashaka kumwaka uwo mupira ,ariko ukabona nawe ntabwo abishaka ahubwo arimo arirukanka cyane kuberako aba afitemo ingufu nyinshi.

Ikibuga cy'umupira ni ikibuga kiba kirangajwe imbere n'abaturage benshi baje baje kureba uko umupira uri bukinwe, nuko biri bugende, abari butsinde n'abari butsindwe. Buri wese aba ari ku ruhande rwe n' ikipe ye arimo gufana, kugira ngo ngo n'itsinda igitego aze gusimbuka. Abafana ba buri kipe bagenda biyegeranya biciye mu dutsinda udutsinda.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye, bamwe ibipande ukwabyo ibipande ukwabyo, ni ibintu bishimishije cyane kubona abantu bashobora guterana barenga Miliyoni kandi ugasanga bahujwe n'ikintu kimwe, bose bashyizeho umutima kandi bagikurikiye nta kajagari, nta n'akavuyo karimo.

Umukungugu ni ikintu kibi cyane, aho imodoka zinyuze umukungu urazamuka, ugasanga ibintu byose byanduye, ku buryo ari nk'umwana muto ashobora no gukoramo indwara yo mu bihaha kubera umuhanda ahantu uherereye n'aho uwo mwana yari ari, kandi umukungugu ukaba uhahora buri munsi.

Umukinnyi w'umusore umeze neza ukina umukino w'amaboko, umukino w'amaboko ni umukino umeze neza cyane, utuma imitsi y'amaboko ikora neza kandi ikarambuka, kumwe n'amaguru no gutekereza, bigatuma umwana akura neza, cyangwa se umuntu mukuru agira ubuzima bumeze neza, amaraso aba atembera neza mu mubiri.

Umukino w'amaboko, n'umukino ushimishije cyane, umugabo uri kuwukina, afite umunezero afite n'umurava wo gusimbuka, agatsinda igitego, n'ubwo zamu nawe yabaye maso yahagaze kuburyo agomba guhita umupira ufata, akarwanya ko igitego cyinjira.

Ubucuruzi bw'imyenda ya siporo n'imipira ya siporo yo kwambara, ndetse no gukina ni ibintu biri imbere cyane kandi bishimishije Abanyarwanda, aho umuntu yicara yakumva ashaka kwambara umupira nimero makumyabiri, agahita agenda akawugura, ni ibintu bishimishije cyane mu gihugu cyacu.

Umugabo uri mu kirere hejuru cane, wambaye inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, n'agakariso k'ubururu karimo umutuku n'umweru, hejuru yambaye agapira kagufi cane karimo ubururu n'umweru ,ubona yishimiye gusimbuka hejuru cane.

Umukino w'amaboko wa vole balo abagabo bari gukina bafite ubuhanga bukomeye bose bakazamukira icya rimwe ugiye gutangira umupira nuri gutera umupira basa naho bari guhatanira gutsinda igitego n'abandi bakakirinda.

Abazungu n'abanyarwanda bari kumwe mu Rwanda ubona bishimiye gukina imikino yo kuzamura amaboko hejuru kandi banezerewe, abazungu n'abanyarwanda iyo bari kumwe baba bavuga ururimi rumwe rw'icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili kandi bakakivuka bagihuriyeho kumwe n'abanyarwanda, birashimishije kuba abanyarwanda baramenye ururimi rw'amahanga.

Abantu bambaye imyenda isa baba bagaragara neza cyane ahantu hose bari, ku buryo ubarebye uba ubona ari abantu bameze neza kandi bafite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ni byiza rero guhurira hamwe mwishimye kandi mwambaye ibisa muba mukeye cyane.

Umuhanda ni ingirakamaro, umuhanda utuma abantu bagenda kandi bihuse kuko utega imodoka, igare, moto n'ibindi. Ariko ahantu hatageze umuhanda usanga hagoranye cyane kuba wahagera uri kwihuta ufite n'urugendo rwihuse.

Ikigega gifite akamaro kanini cyane kidufasha gufata amazi avuye hejuru ku nzu, bigatuma gukoresha mu rugo amazi bigabanuka, ndetse n'amazi aturutse hejuru bigatuma atangiza ibidukikije biri aho ngaho.